Abantu bane, harimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, bari munsi y'umutaka w'ikigo gizwe itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho hantu kandi hagiye ahaparitse amamodoka mu bice bitandukanye.

Hano hari abakobwa ndetse n'abagabo bambaye imyenda itukura yanditseho amagambo y'umweru agaragaza ikigo cy'Igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya Airtel.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi n'ipantaro y'ikoboyi. Ahagaze inyuma y'akazu k'ikigo gishinzwe itumanaho MTN gikorera mu Rwanda, arimo arasaba serivisi.

Ibiro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda, cya Eyateri. Hano harimo abantu babiri umugabo ndetse n'umugore, bambaye imyenda irimo utubara tw'umutuku, bigaragaza ko ari abakozi b'icyo kigo.

Abantu bicaye ku binyabiziga bya moto. Iruhande hari akazu k'ikigo gishinzwe itumanaho rya MTN ndetse hari n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Akazu gatoya k'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya Eyateli, kari mu mabara y'umutuku ndetse urugi rwaho rurafunguye.

Umudamu uhagaze mu kibuti cy'inkoko ndetse n'imbata, yambaye igisurubeti kiri mu ibara ry'icyatsi, arimo arazigaburira kugira ngo zizarusheho gutera amagi.

Umuyobozi, ukomeye, mubyumupira w'amaguru, mu Rwanda. Akaba yariri kwerekana igikombe, cyari cyatwawe n'ikipe runaka.

Umudamu udafite umusatsi mwinshi yakenyeye imikenyero afite urupapuro mu ntoki ndetse ahagaze mu bigori ubona bigikura.

Abantu barimo barareba inkweto bashaka kugura, imbere yabo hahagaze umudamu ubyibushye wambaye umupira w'ubururu, hariho amagambo yanditseho avuga ngo: "Koperative ahazaza heza kuri bose."

Umudamu wakenyeye igitenge, yambaye n'umupira ujya gusa umukara n'agapira k'umutuku mu nda kariho ikirangantego cy'u Rwanda, yiteze igitenge mu mutwe, arimo araseka, ahagaze mu biti.

Aha haragaragara abantu batwaye ibikoresho byifashishwa mu gutwara amata. Bayagemura ku makusanyirizo ashinzwe kuyakwirakwiza mu Gihugu.

Abantu bane umugabo umwe n'abagore batatu bambaye udupfukamunwa, bahagaze ahantu bahinze inanasi, inanasi ni nziza kuko ziduha umutobe.

Sacco ni kimwe mu bigo by'imari byorohereza abaturage b'u rwanda kubika amafaranga yabo; kugira ngo birinde kuba bayakoresha mu buryo budakwiye cyangwa bakayasesagura.

Icyumba gikora ubucuruzi bw'inzoga zitandukanye, harimo ubwoko bwinshi zaba izoroheje zisindisha ndetse n'izikomeye zidasindisha.

Ameza asa neza cyane asize ibara ritukura, akikijwe n'intebe za purasitike ateretseho amacupa y'inzoga za Pirimusi ndetse na Mitsingi.

Ishusho igaragaza amagambo aba yanditse ku mavuta akorwa mu bihwagari ya buto, barakubwira ko ugomba kuyabika ahantu humutse kandi hadashyushye cyane kandi ayo mavuta akaba akorerwa mu Rwanda.

Igikoresho kimeze nk'ikigega gipfundikiye, hirya yacyo hari ijerekani ipfundikiye n'umupfundikizo utukura ibikwamo amavuta.

Umudamu witeze igitambaro cy'umukara. Ahagaze mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo nk'umuceri n'amandazi.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo umuceri, amavuta yo kurya, kawunga ndetse n'ibindi byinshi. Harimo umugabo ndetse n'umugore we bameze nk'abakoramo.

Abantu bari mu cyumba bahagaze imbere hari umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse hari n'umugore wambaye imyenda idoeze mu gitenge.

Umugore wirabura, arahagaze imbere y'abandi bantu, afite indangururamajwi arimo aratanga imbwirwaruhame yateguye kugeza ku bari aho.

Abantu benshi abamama abagabo, ndetse n'abana ubona bicaye ahantu hateguwe bigaragara ko bameze nk'abantu bafite ibyo bari gukurikirana imbere.

Abantu bahagaze bameze nk'aha bari barimo kwifotoza, abagabo ndetse n'uwihaye imana w'umugore, harimo kandi n'abihaye imana b'abagabo bazwi ku izina ry'abasenyeri.

Abantu benshi, biragaragara ko bari bicaye ku ntebe za parasitike z'immyeru, bahindukiye, barimo barabyina, bameze nkabari mu birori.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, iriho umusaraba bigaragara ko ari Kiliziya imbere yayo haparitse imodoka ndetse hirya hari ibiti.

Umudamu wirabura, ufite imisatsi miremire, ahagaze imbere y'abandi bantu, afite indangurura amajwi mu ntoki, arimo aratambutse imbwirwaruhame yateguye kubagezaho.

Ahantu heza cyane bisa nkaho ari icyumba muri hoteli kirimo amatara meza ndetse n'ameza ateguweho indabo zifite amabara menshi.

Kiliziya nziza cyane yubatse ku buryo bugezweho ubona ko ikomeye isakaje amabati atukura, ku mpande zayo ku rubaraza hariho abantu baje gusenga ndetse imbere y'umuryango haparitse imodoka.

Icyumba cyo kuryamamo, harimo uburiri bushashe neza. Hejuru yubwo buriri hari inzitiramubu ifite ibara rijya gusa umutuku werurutse.

Abantu barimo abagabo bakuze n'abakiri bato ndetse n'umugore bicaye bakikije ameza, hirya ku gikuta hariho ifoto y'umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati afite ibara rijya gusa umukara wijimye, yubatse mu buryo bwa etaje kandi ni nziza cyane, hejuru yaho hari ikirere kirimo umweru n'ubururu.

Igitanda cyo muri hoteri gisasheho amashuka meza y'umweru ndetse hariho n'imisego ine, ibiri biri igiye igerekeranyije, hari urugi rurimo iserire.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, arahagaze yasobetse amaguru. Ahagaze ku kayira karimo ama pave asa kaki. Imbere ye hari inzu nziza yubatse mu buryo bwa etaje.

Abantu barimo barifotoreza kuryo; harimo abazungu babiri, n'umwirabura umwe. Inyuma yabo hirya hariho undi mugabo uhagaze usa nk'aho ari umuseriveri ukora muri iyi resitora.

Inyubako, yubatse muburyo bwa etaje, isakaje amabati, y'ubururu ndetse hariho n'inzira izamuka, igana, ku kindi gice, kiri hejuru.

Iki ni icyumba cya hoteri kikaba kirimo igitanda gisasheho amashuka meza cyane, hejuru y'icyo gitanda hakaba hari inzitiramubu ndetse hari n'isakazamashusho.

Inyubako nziza cyane imbere yayo haparitse amamodoka menshi ndetse imbere y'izo modoka hari ubusitani burimo ibyatsi bitoya, bisa nkaho ari ku Ingoro y'Ubutabera.

Umukobwa mwiza cyane, ufite imisatsi miremire ariko atari miremire cyane, wambaye ishati y'umweru, ahagaze mu iduka ricuruza ibinyobwa bitandukanye, iruhande rwe mu bumoso hari firigo ishinzwe gukonjesha cyangwa gushyushya inzoga.

Inzu ifite icyumba gifite saro yo kuriramo, haragaragara ameza bafatiyeho amafunguro ariko bakaba batarandurura ibyo baririyeho.

Mu Rwanda haba ubworozi bw'amatungo yaba magufi ndetse n'amaremare, aha hari ihene iy'umusheru ndetse n'indi y'umukara, baziziritse ikiziriko kimwe.

Ahantu hakorerwa ubudozi aha haragaragara imashini yifashishwa mu kudoda imyenda, iruhande rw'iyo mashini hariho akabido gatoya gafite ibara rijya gusa umuhondo.

Hano hari umu mama witeze igitenge kirimo amabara y'umweru, bigaragara ko ari mubucuruzi bw'imboga bita ibitunguru, yabirambitse ku ihema.

Ihunikiro ry'ibigori, ririmo ibigori byinshi bihanitse ku byuma, ryubakishije amabati ari mu ibara ry'umutuku, hari n'ikigega gifata amazi avuye kuri iryo kusanyirizo.

Agakoresho kifashishwa kamanikwaho imyenda, kakaba kamanitseho utugofero abakobwa cyangwa se ab'igitsina gore muri rusange, bambara mu mutwe kugira ngo barinde umusatsi wabo.

Umuntu wambaye umupira w'umweru, arimo ararura aho bashyize ibiryo mu bikoresho bitandukanye, hari kandi n'abandi bantu bensh,i bari baje mu bukwe.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya harimo imbuto ndetse n'imboga, muri byo hagaragara ibitunguru, avoka, puwavuro n'ibindi.

Abamama babiri bambaye imyenda idoze mu bitenge, imbere y'umumama umwe hariho igikapu gifite ibara ry'umukara ndetse inyuma yabo hariho amagare.

Isoko ryubatse mu buryo butari ubwa kijyambere, hariho abamama barimo baracuruza imyenda irambitse hasi ku ihema, biragaragara ko ritaratera imbere.

Ubucuruzi bw'inkweto, bukorerwa ahantu hadateye imbere cyane, harimo abantu barimo bagera inkweto kugira ngo barebe ko zibakwira maze bazigure, hari n'igare ririho ibintu bipakiye mu mufuka.

Mu muhanda w'igitaka harimo hagendamo umugabo ndetse n'umwana ufite agafuka gasa ubururu, ku mpande z'umuhanda hari ibiti bishinze.

Umuhanda w'igitaka urimo uranyura hagati y'amazu ari ku mpande zawo, harimo kandi n'amapoto ariho insinga z' amashanyarazi, ikindi harimo abantu bari kunyura muri uwo muhanda.

Ubucuruzi bukorwa mu buryo butagezweho, harimo abarambitse imyenda hasi barambuyeho ihema, hari mugabo ufite inkoni wambaye ingofero y'umupine uri gutambuka.

Icyumba kirimo ibintu bitandukanye, harimo intebe bicaraho ndetse kikaba cyubatse mu buryo bw'uruziga, hejuru hariho utuntu tw'umweru.

Abantu batandukanye bakiri urubyiruko, barimo bararura ibyo kurya mu masorori manini atereretse imbere yabo, buri wese arimo arafata ibyo ashoboye.

Icyumba cy'inyubako, kirimo ameza ndetse n'intebe z'umukara, bisa nk'aho aho hantu bahakirira abantu baje kugira ibyo bahafatira.

Abamama babiri, umumamo umwe uhetse umwana batwawe ku igare n'umuhungu wambaye umupira w'icyatsi. Iruhande rw'umuhanda bari kunyuramo hari ibishyimbo.

Umuhanda uzwi ku izina rya kaburimbo. Urimo umurongo ufite ibara ry'umuhondo. Harimo ikinyabiziga cya moto kiriho umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ingofero imurinda. Kuruhande rw'umuhanda hari inzu yubatse neza.

Inyubako iri hirya, hino yayo hakaba hari ubuhinzi bw'urutoki, mu muhanda wa kaburimbo harimo umumotari, wambaye ingofero itukura imurinda umutwe.

Umugabo arimo arasunika igare mu muhanda wa kaburimbo, iryo gare yarishyizeho ibitoki abijyanye ku isoko.

Ishusho igaragaraho umumotari ndetse na moto iruhande rw'iyo moto hari umugore wazinze imisatsi, hirya hari ikibuga cya Basketi.

Umumotari uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ahetse inkoko nyinshi ziri mu kantu ndetse hagati harimo n'umuntu.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ikinyabiziga cya moto kiriho umumotari wambaye ingofero irinda umutwe, hirya ye ku muhanda hariho inzu ikorerwamo, ibijyanye n'imikino y'amahirwe.

Umumotari wicaye kuri moto yambaye inkweto z'umweru n'ingofero itukura irinda umutwe igihe yaba akoze impanuka, arimo aranyura mu mbuga iteyemo amabuye.

Umuhanda wubakishijwe amabuye kandi mu buryo bugezweho, urimo uranyuramo moto ebyiri zirimo zirabisikana, moto imwe iriho abantu babiri, iyindi iriho umuntu umwe.